Itsinda ry'abantu benshi, bateraniye hamwe mu cyumba baricaye, bambaye imyenda isa y'umweru hejuru. Ni abagabo, ni abagore, bamwe bambaye ingofero, abandi ntazo bambaye.

Bari mu cyumba ni batatu ni abaganga bose bambaye impuzankano amabara atandukanye, babiri bambaye iz'ubururu n'aho undi yambaye iy'umweru, bose bambaye udupfukamuwa, babiri bambaye udupfukamunwa tw'umweru n'aho undi yambaye akumukara bafashe amakarito mu ntoki.

Abantu babiri b'amajerekani, bari ku ivomo, amazi aramanuka ajya mu majerekani, hirya yabo hari ibiti birebire, ivomo ni rirerire ryubakishije isima, hejuru hari ibara ry'ubururu, na ho ku ruhande rifite ibara ry'kigina.

Itsinda ry'bantu bari hagati ya cumi na babiri na cumi batanu, abagabo n,abagore bambaye ingofero zose zisa z'umweru, impuzankano y'imipira y'ubururu, n'umweru bari munsi yigiti kinini n'ubutumwa bugira ngo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura.

Ni abamama babiri, umwe afite igitambaro mu mutwe, undi ntacyo afite, bose bakenye ibitenge bari kuvoma, barimo kuvoma biravomera ibijerekani bigera mu ikenda, iruhande rwabo hari urutoki.

Ni abana b'abahungu batatu bari mu kigero cy'imyaka icumi na cumi n'ine bate indobo barimo kuvomesha mu mugezi, baravoma amazi asa nabi ruguru yabo hari ibiti, hari ibihuru ndetse ni mu gihe cy'izuba.

Umwana mutoya uri mu kigero k'imyaka itanu, wambaye umwambaro w'ubururu hejuru na kake hasi, arafungura indobo agirango akuremo amazi, indobo iteretse ku meza ntoya, indabo iri mu ibara ry'umweru, ifite umufuniko w'ubururu.

Ni abantu bane, umwe muri bo ni umuganga yambaye imyenda yabugenewe y'abaganga abandi ni abadamu batatu baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, babiri baricaye undi wa gatatu bafashe ukuboko kwe barimo baramusuzuma barimo kwitegereza bareba uko amerewe.

Abantu benshi bamwe barahagaze abandi baricaye bakikije ameza, umwe wari muri bo aricaye, afite ikaramu hirya ye hari mugenzi we nawe afite ikaramu n'ikayi abantu bose bahanze amaso bicaye, abo bahagaze harimo abagore harimo n'abana baje kwa muganga.

Ni mu cyumba gitoya abantu batanu, babiri baricaye abandi batatu barahagaze bose bambaye udupfukamunwa ni kwa muganga, bambaye ibara ry'ubururu naho abandi bambaye iry'icyatsi kibisi, harimo umugore umwe.

Abantu b'ingeri zitandukanye bambaye impuzankano zitandukanye bateraniye mu cyumba bari ku meza atandukanye bamwe bambaye impuzankano y'icyatsi kibisi abandi abambaye iy'umweru n'urubyiruko harimo n'abakuru kumeza bicayeho hari amacupa y'amazi n'amakayi n'amakaramu bandika.

Abana batanu bari ku ivoma bane n'abana batoya bari mu kigero cy'imyaka ine n'itanu umukuru ni umukobwa wambaye ipantaro y'umukara arazamura icyuma akakimanura kikazana amazi akajya mu tujerekani twaba bana hirya yabo hari imodoka y'umweru ya piki apu ihaparitse.

Itsinda ry'abantu benshi, abagabo n'abagore baje mu ishuri ry'abana b'incuke bari hagati y'imyaka y'itatu n'itanu barimo kubaha amata, abahagaze bafashe inkongoro n'aho uwicaye ni umwe w'umudamu arimo gusomesha abana, abo bana bamuhanze amaso agenda asomesha umwe ava kuwundi ajya kuwundi.

Itsinda ry'abantu benshi, benshi rwose bateraniye ahantu bategereje, abagabo nabagore bose barica abandi barahagaze bazengurutse shitingi, ihari shitingi ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi, ni benshi barategereje hibya hari imodoka hakaba n'inzu abantu bose bategereje serivisi.

Ni icyapa, kinini icyapa cyanditseho ijambo rinini rivuga ngo WASAC, mu magambo arambuye riravuga ngo water sanitaion corporation, iki ni kigo gikora ibyo gusukura amazi mu Rwanda.

Yagiye kwa muganga. Umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu, akikiye umwana mutoya w'imyaka ibiri, muganga wambaye imyenda yabigenewe irimo ibara ry'umweru, arasuzuma umwana. Ibiganza bye yabifatishije ku ijosho ry'umwana.

Ni mu cyumba umwana uri mu kigero cy'imyaka ibiri n'igice arareba imbere, naho umuganga afashe urushinge arimo kumutera amutera ku kuboko kw'iburyo.

Ni abantu benshi bateranye abagabo n'abagore n'abana iruhande rwabo hari ibiti, umwana mutoya arambuye ibiganza bye abihuza n'iby'umuntu mukuru uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu wambaye umupira w'icyatsi kibisi.

Ni abantu batatu bose ni abadamu babiri baracunda amazi mu cyuma cyitwa nayikondo, bazamura icyuma bakongera bakakimanura kugirango gitange amazi, amazi arimo kumanukira mu kibase kinini, umudamu umwe arimo arakoreramo akazi ko kumesa, aravoma amazi ayakura mu ndobo, aho icyo cyuma kirimo kuyamena na we akayashyira muri icyo kibase kinini.

Abagabo n'abagore mu itsinda rinini bambaye impuzankano z'ubururu abandi bambaye iz'umweru, naho abandi bo ntazo bambaye, bambaye udupfukamunwa bamwe tw'umweru abandi utw'umukara, bose barahagaze.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, abana, abagabo n'abagore bateraniye ahantu barimo kwitegereza uko amazi amanuka abana bamwe bashyizemo intoki barimo gukaraba amazi arimo guturuka mu ruhombo ruri hagati y'ibisumba bibiri, amazi arimo kumanuka ajya mu ibase abana bagategaho bakanywa abandi bagakaraba.

Ni itsinda ry'abantu benshi, abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'umuhondo, abagabo, abagore, abazungu n'abirabura bose bazamuye ibiganza baraseka.

Ni abamama; ni batatu bose bari mu cyumba, umwe muri bo ararwaye, araryamye yambaye agapfukamunwa, bamworoshe igitenge, iruhande rwe hari abandi babiri bahagaze bambaye udupfukamunwa, bari kumusuzuma bamwitaho.

Ni abantu bagera muri barindwi, abakobwa n'abahungu bambaye ubururu, babiri muri bo bambaye umukara, hepfo handitse ijambo unicef, ni ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, hejuru handitse, Empower n investing young people to influence neccessary change, byo ni ukuvuga ngo, shyira imbaraga nyinshi mu rubyiruko kugira ngo ubashe kugera ku mpinduka ikenewe.

Itsinda ry'abantu benshi bagera muri cumi nabatanda, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu. Bahagaze munsi y'ibiti, abagabo n'abagore, bari mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu na mirongo ine. Inyuma hari ibiti byiza bitoshye cyane.

Baricaye hanze, umuganga w'umudamu yicaye aberekeye, ni umukobwa n'umuhungu, barafatanye, bicaye ku ntebe imwe, umuganga arabaganirira, muganga yambaye umwambaro w'ubururu naho abandi babiri aganiriza ni urubyiruko ruri mu kigero k'imyaka makumyabiri n'itanu.

Abantu benshi batoye umurongo, abagabo n'abagore, bambaye impuzankano y'ubururu ndende, umwe muri bo w'umugabo yicaye imbere ku ntebe ya parasitike, yambaye imyenda y'umweru, bahagaze imbere y'ihema ry'umweru.

Ni umu mama uri ku ivomo ufite amashe kandi abiri, yaje kuvoma. Akenyeye igitenge afite ingofero mu mutwe yambaye n'umupiraboko maremare. Iruhande hari amagambo agira ati ''amazi n'isuku n'isukura mu rwanda.''

Umwana w'umukobwa mu kigero k'imyaka cumi n'itatu w'umunyeshuri, afashe ku ndobo imanura amazi iyashyira mu ibakure, ari munsi y'igiti arunamye aravoma amazi, hirya ye hari abantu bahagaze b'abanyeshuri.

Icyumba kinini giteraniyemo abantu benshi abazungu n'abirabura, abagabo n'abagore baricaye, bake muri bo barahagaze abicaye begereye ameza, imbere yabo hari amakayi n'imashini zigendanwa n'amacupa y'amazi.

Umuntu wicaye ufite yijerekani yaje kuyivoma bigaragara ko yamaze kuvoma aricaye, imbere ye harasa naho hari umuntu barimo baganira kuko arimo araseka

Umwana uri mu kigero cy'imyaka umunani na cumi n'ibiri ateze ibiganza ku ivomo, amazi araza arimo kunywa, yambaye ikabutura na bodada iruhande rwe hari indobo, hirya ye hari ibiti hakaba n'inzu.

Ni abana b'abakobwa babiri bari ku ivomo, umwe yambaye kaki hasi hejuru akambara ubururu mugenzi we nawe yambaye umwambaro urimo amabara y'umutuku n'umukara ateruye indobo arimo arasha gukorera mugenzi we hirya yabo hari ibiti, n'ibyatsi, n'inzu.

Ni itsinda ry'abantu benshi bagera mu icumi. Bose bicaye hanze, bakikiye abana, abandi barabateruye, abandi barabonsa. Ni abamama baje kwa muganga gushaka serivisi z'ubuvuzi.

Ni abantu batanu bari mu cyumba kimwe, iruhande rwabo hari ameza ariho amakayi, bose ni abamama, bose baricaye, abandi bahanze amaso umwe hari ikintu arimo kubabwira.

Baricaye, bose ni abakobwa bari mu kigero k'imyaka makumyabiri n'itanu na makumyabiri n'umunani, umwe muri bo yambaye umupira w'umweru akikiye umwana mutoya, iruhande rwe mugenzi we arahagaze, yafashe umwana arimo kumusuzuma ashaka kumuhereza imiti.

Umubyeyi wambaye imyambaro y'igitenge no mu mutwe ashizemo ikindi gitenge akikiye umwana mutoya uri mu kigero cy'imyaka umwe n'ibiri, umuganga wambaye imyenda y'abaganga n'akarindantoki ashyize ibiganza bye mu mutwe w'umwana aramusuzuma.

Uyu umwana w'umuhungu, uri mu kigero cy'imyaka umunani n'icumi, ari ku ivomo arimo kuvoma amazi, afite amajerekani ane, yashyizeho ijerekani imwe y'umuhondo arimo kuvoma, yambaye agakabutura n'agashati, arimo arahindukira arareba inyuma araseka, hirya ye hari urutoki.

Itsinda ry'abantu benshi bagera muri barindwi ariko undi wa munani arahagaze kure yabo begeranya imifuka bamwe barayiterura abandi bakayirunda neza abagore babiri nibo bateruye umufuka bawujyana ku yindi mifuka abagabo nabo barayironda.

Abagabo bicaye, bicaye bazengurutsa ameza, bafite ibyo kunywa imbere yabo bimwe mu macupa ibindi mu birahuri. Bamwe bambaye amakoti, abandi bambaye imyambaro isanzwe imipira n'amashati bararebana bungurana ibitekerezo ariko hari umwe uyoboye ikiganiro abenshi bamuhanze amaso.

Umwana muto uri mu kigero cy'imyaka ine n'itanu umwana w'umukobwa aboshye imisatsi, ari ku ivomo ateze ibiganza ku mazi amanuka, aramanuka amanukira mu ibase y'ibara ry'umutuku.

Abana batandatu bose bambaye ubusa bari mu mazi barimo koga, amazi ni mabi umwe arahagaze arareba mugenzi we uko yoga naho abandi bari mu mazi bibiye.

Umwana muto w'umukobwa uri hagati y'imyaka itandatu n'umunani yunamye ku ivoma afashe indobo hirya ye harizindi ndobo nyinshi z'umweru areba hirya hari umuntu usa naho amurangaje amusekera nawe rwose yatwawe.

Itsinda ry'abantu benshi bateraniye mu cyumba, abagabo n'abagore abagore baricaye bashyikiye abana, naho abagabo n'abagore bafashe inkongoro barimo kugenda basomesha abana amata.

Abantu babiri, umwe ni umwana mutoya w' imyaka itatu, yicaye hasi, mugenzi we ni umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru afite indobo ayishyize mu mugezi mutoya cyane aravoma.

Ni itsinda ry'abantu benshi abagabo n'abagore, bambaye amataburiya y'ubururu budafashe cyane, bambaye n'amabaji mu ijosi, imbere yabo hahagaze umuntu mukuru w'umusaza wambaye rinete n'ikote, barakoma amashyi abandi basa n'abamwakira kugira ngo bamucuruhuze.

Itsinda ry'abana bari mu kigero cy'imyaka icumi na cumi n'itatu. Ni abakobwa n'abahungu bambaye impuzankano iri mu ibara rya kaki, bari ku mavomo atatu, bose baravoma. Bamwe bafite indobo abandi bafite utujerekani, amazi aramanuka ajyamo. Iruhande rwabo hari ibiti n'amazu.

Abantu benshi bateranye bagera kuri mirongo itatu bicaye imirongo ibiri itandukanye barebana hagati yabo hanyuzemo akamezai karekare k'ibara ry'umweru gateretseho indabyo imbere ya buri muntu wese hari icupa aya amacupa arimo imiti ifasha kwica udukoko yitwa sanitayiza.

Umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine, akenyeye igitenge, yambaye umupira hejuru, ashyize akagofero ku mutwe k'ubururu, ari ku ivomo, ashyize ijerekani ku ivomo, amazi ajyamo, ukuboko kwe kw'iburyo agushyize ku mupira uzana amazi.

Ni abantu babiri bari kumwe, umwe ni umugabo wirabura undi ni umwana, uri mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu. Umugabo we ari mu kigero cy'imyaka mirongo ine ,umugabo yambaye isaha mu kuboko kw'ibumoso, ateruye ijerekani arimo gukorera umwana. Iyo jerekani yanditseho ijambo yunisefu. Yunisefu ni ishami ry'umuryango w'abibumbye, bombi barimo guseka.

Itsinda ry'bantu benshi abagabo n'abagore, abazungu n'abirabura, mu nama y'umuryango uhuza ibihugu mirongo itanu na bine bivuga icyongereza, bigamije guteza imbere ubukungu mu bihugu byabo.

Umwana muto w'umukobwa uri mu kigero k'imyaka ine, afashe icupa ry'amazi rirerire arayasuka ku ntok. Iruhande rwe hari inyubako ndende y'amatafari ya rukara, umwana arahagaze.

Bari mu cyumba kwa muganga ni batatu, abaganga babiri n'umurwayi umwe, umwe ni umugabo undi ni umugore umugore yambaye linete, naho umurwayi we aricaye barimo kumusuzuma muganga w'umugabo afite dokima mu kiganza.

Abamama babiri bari mu kigero cy'imyaka mirongo itanu, ni inzobe bombi bicaye ku ntebe berekeye ameza, umwe yambaye igitambaro cy'umuhondo mu mutwe naho undi we ntacyo yambaye.

Umuryango w'inzu idasa neza cyane kandi ntoya, ni akajerekani gahambiriye ku giti kitambitse, umadamu uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'umunani, ufite ingofero mu mutwe arasuka amazi ku ntoki yifashisha ka kajerekani gatambitse ku giti akajerekani k'umweru.

Abantu bari kumwe abantu benshi batari benshi cyane ariko, ni abagabo n'abana batoya bari mu kigero cy'imyaka icumi n'imyaka umunani, bose bahuriye ku ivomo, ivomo rizwi nka nayikondo, hari ijerekani irimo kujyamo amazi bose bayihanze amaso n'abandi bafitete utujerekani mu ntoki biteguye kuvoma.

Itsinda ry'abantu benshi bambaye impuzankano abagabo n'abagore, bari mu gikorwa cyo kubaka akarima k'igikoni, bose barunamye bamwe barunamye abandi barahagaze baratera imbuto zitandukanye mu karima k'igikoni, babanjirije ku rwego rwa mbere barimo kugenda bajya ku rwego rwa kabiri ukurikije akarima k'igikoni ukuntu kubatse.

Ivomo riteraniye abantu batatu, umugabo umwe, n'abadamu babiri, umugabo afashe ku ivomo amazi yari amanikirara muri jerekani, umudamu nawe we ari ku rundi ruhande amazi aramanukira mu ijerekani ye, naho umudamu wa gatatu, yambaye ijiri y'umuhondo, bombi arimo kubitegereza.

Ni abantu batatu. Umwe ni umumama wikoreye ijerekani y'umuhondo ayikoreye ayitambitse. Abandi babiri ni abana; umwana umwe muto yambaye umwambaro w'ubururu undi uri hirya yikoreye ijerekani.

Mu itsinda ry'abagabo n'abagore . Bose bahagaze bagera mu icumi. Bambaye imyambaro itandukanye . Bahagaze mu inzu ihenze, yubakishije amatafari ahiye. Ifite ibara ry'ubiruru n' umweru , ikorerwamo ibikorwa by'inama.

Itsinda ry'abantu batanu bose bahagaze, abagabo ni batatu n'umukobwa umwe, umwana muto uri mu kigero cy'imyaka irindwi n'umunani, umugabo umwe yambaye agapfukamunwa, arimo kumukorera ijerekani ipfundikije umukanana.

Umugabo arahagaze, arahagaze areba hejuru, yegamye ku rukuta inyuma y'igipangu, ipangu kirekire kimusumba, yambaye umwambaro wigitenge udoze mu gitenge, umanuka ukagera hasi, ni umugabo uri mumyaka mirongo itatu kuzamuka wirabura, afite ibitekerezo byinshi, ariko kandi ibitekerezo bikomeye bisa nkaho bimugoye.

Abantu babiri baricaye umwe n'umukobwa undi n'umuhungu, umuhungu acuritse umutwe ashyize umutwe mu biganza, afite agahinda arababaye, umukobwa nawe yarambuye ukuboko kw'ibumoso amukora k'urutugu aramuhumuriza aramubwira amagambo.

Ni ibipimo byerekana uko ipfu z'abiyahura mu Rwanda zagabanutse, Suicide Deaths Drop in Rwanda. Community-based sociatherapy introduced in Rwanda, abajyanama mu Rwanda baratangiye. Kuva bibiri na kabiri kugera bibiri na cyumi n'umunani, ibipimo biragaragaza ko ipfu zagabanutse cyane.

Ni abantu batatu, umugabo n'umugore bafashe umwe, uwo bafashe afite umusatsi usa nabi kandi mwinshi, arareba nk'umuntu ufite ikibazo mu mutwe, arananutse cyane, yambaye imyenda ishaje kandi ihambiranyije, ari mu kigero k'imyaka cumi n'umunani na makumyabiri n'itanu.

Icyapa kinini cyanditseho amagambo ko ari ibitaro byita ku barwayi bo mu mutwe cy'indera mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, imbere hahagaze umuntu w'umugabo w'umuzungu, yambaye ishati ya karokaro n'ipantaro ya kaki, araseka.

Ni muri minki disitirikiti hosipito, ni kilinici. Ni inyubako ndende ifite ibabara ry'umweru, imbere yayo hari jaride isa neza. Hirya hari umuhanda, iyi nyubako igaragara ko ifite ibirahuri byiza.

Ni benshi benshi rwose cyane, abanyeshuri bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu, kumanuka ukagera ku myaka itanu bambaye impuzankano ibara ry'ubururu n' abambaye kacye bazamuye amaboko baraseka.

Abantu benshi bateraniye muri sare, sare nini, ifite umucyo, ariko abandi babiri barahagaze umukobwa n'umudamu bombi bafite mikoro, umudamu afite ishakoshi mu ntoki barimo baraganira.

Abana babanyeshuri benshi bari mu kigero cy'imyaka itanu, abakobwa n' abahungu bose bicaye hamwe, bamwe bambaye impuzankano y' ibara ry' umuhondo abandi biyambariye imipira isanzwe, bose baraseka barishimye bareba imbere hari umuntu urimo kubaganiriza abasekera.

Isange One Stop Centre, polisi yashyizweho ku bufatanye n'umuryango w'abibumbye mu Rwanda, itanga serivisi zo kurengera abahohoterwa hashingiwe ku gitsina no kurengera uburenganzira bw'abana, itanga serivisi mu by'amategeko mu by'imitekerereze ndetse n'izindi serivisi zose zo kurwanya ihohoterwa iryo ariryo ryose.

Uwihoreye cheste ni umufashamyumvire mu by'imitekerereze aragira ati: ''Imitekere ubuzima bwo mu mutwe ni kimwe mu bice bikomeye by'imibereho ya muntu kandi bukwiye kwitabwaho mu migenzereze mu kwiyitaho ndetse n'ibyo dukora kugira ngo turebere abantu bacitse ku icumu rya jenoside.''

Ni umumama uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine, yambaye umwambaro w'ubururu, mbere handitse amagambo avuga ngo patenazi ini herifu, bishatse kuvuga ngo abafatanyabikorwa mu buzima.

Ni umuntu uhagaze ufite umusatsi mwinshi usa nabi yambaye ipanantaro yacitse, yambaye ishati yacitse isa nabi afite ubwanwa bwinshi budafite isuku ahagaze iruhande rw'umuhanda.

Itsinda ry'abantu benshi abapolisi n'abasivili bahagaze muri gahunda yo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse no kubungabunga uburenganzira bw'umwana mu karere.

Mu cyumba kinini kirimo umucyo mwinshi gifite irangi ry'umweru hari abantu benshi bamwe baricaye abandi barahagaze. Ni abagabo n'abagore barahagaze baratumbereye imbere barafata ifoto, baraseka.

Ni abana bari mu kigero kiri hagati y'imyaka icumi na cumi n'ibiri, bari kumwe bambaye imyambaro itandukanye bamwe baricaye abandi barahagaze, bamwe barareba ahandi abandi barareba ahandi.

Aricaye, asa nk' ufite ibitekerezo byinshi. Asa nk'umuntu ufite agahinda. Asa nk' umuntu ufite ibintu byamubabaje bitari bikeya, amarira ashoka ku matama ibitekerezo biri kure cyane. Ari hagati y'imyaka mirongo ine na mirongo itanu.

Itsinda ry'abantu benshi bari hagati ya cumi na batanu na cumi na batandatu; bicaye bakoze uruziga ni abagabo n'abagore; bakeya bagera muri batatu bahagaze hagati mu ruziga; naho abandi basigaye bicaye.

Umugabo uhagaze, ahagaze ahuje ibiganza, yambaye rinete, inyuma ye hari inyubako ndende ifite ibara ry'umuhondo n'amagambo yanditse hejuru mu ibara ry'ubururu; yanditseho CARAES. CARAES ni ibitaro bishinzwe gufasha abafite ibibazo byo mu mutwe, biri i Ndera mu Rwanda.

Abantu babiri bahagaze iruhande rw'umuntu wicaye yambaye ikabutura arirabura arasa nabi ari mu ipine ry'imodoka umusatsi we ni mwinshi kandi urasa nabi n'ubwanwa bwe ni bwinshi kandi burasa nabi.

Umudamu wicaye uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine, ashyize agatambaro mu mutwe ari mu cyumba, yambaye umupira w'umutuku, yambaye igitenge areba hirya.

Itsinda ry'abanyeshuri, abanyeshuri abakobwa n'abahungu bambaye impuzankano y'ira ry'ubururu, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru na karuvati, iruhande rwabo iburyo hahagaze umuntu w'umudamu wambaye ikote bose baraseka.

Ni umuntu uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu yambaye igitambaro mu mutwe cy'umweru, yambaye urunigi mu ijosi, hejuru nta kintu yambaye, afite mu isura hakomeretse, arananutse cyane.

Ni umuntu mukuru yambaye imyenda mibi arananutse cyane arimo kurya ibintu by'umwanda afite ikibazo cyo mu mutwe, iruhande rwe hari amacupa abiri atarimo amazi yayanyujijemo igiti, iruhande rwe hari abantu barimo kumureba abandi ntabwo bamwitayeho.

N’ umuntu w' umugabo uhagaze, yambaye inkweto zisa nabi, imyambaro isa nabi kuva hasi kugera hejuru, kandi yacitse afashe ibintu bisa nabi m’ intoki zombi, by'amashashi n' ibindi bintu bitandukanye afite ikibazo cyo mu mutwe ahagaze wenyine areba iruhande n'ihande.

Ni abantu batatu bari kumwe, bose ni abamama, abamama babiri bakikiye abana, undi ni umukobwa yicaye yerekeye ameza, imbere ye hari telefoni arimo kubaha serivisi z'ubuvuzi.

Itsinda ry'Abapolisi n'abaturage bandi bambaye imyambaro y'impuzankano y'ibara ry'umuhondo, Abapolisi bafashe icyapa cyanditseho amagambo ngo "kurwanya ihohoterwa ni inshingano yange, bari iruhande rw'ibiti birebire n'inzu, bari mu muhanda baragenda.

Ni batatu, babiri bambaye impuzankano z'ubururu bwijimye, bambaye amarinete n'udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki, umwe wa gatatu aragaramye, abo bombi baramureba mu kanwa bamusuzuma.

Ni umusore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu, wirabura n'umwana uri hagati y'imyaka itatu n'itandatu. Bafashe akadodo karekare, bombi bagafashaho bakanyujije mu kanwa. Bari mu cyumba gitoya.

Ni abantu batatu bari kumwe mu cyumba kimwe, icyumba cyo kwa muganga. Umwe araryamye agaramye, ababiri ni abaganga bambaye udupfukamunwa. Umwe mu baganga yambaye amalinete, bombi bambaye uturindantoki barimo kuvura amenyo ye.

Umusore ari mu cyumba cyiza kirimo umucyo mwinshi, yambaye imyambaro y'umweru, yashyize agatambaro mu gituza aregamye, imbere ye hari ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu kuvura no kwita ku buzima bw'amenyo.

Ni abantu babiri bari kumwe, umwe ni umwana w'umusore wambaye t-shirt y'umukara ashyize ikiganza cye ku ryinyo, undi arahagaze yambaye uturindantoki tw'amabara atandukanye, ahagaze iruhande rw'uwo musore. Afashe akantu mu ntoki kariho amenyo menshi, ashaka kukamushyira mu kanwa.

Ni itsinda ry'abantu benshi bari mu cyumba, irimo abaganga bambaye imyambaro yabo, uturindantoki n'udupfukamunwa hakaba n'abandi barwayi bambaye impuzankano y'icyatsi kibisi, barimo abakuru barimo abatoya barabavura amenyo.

Umuntu ubumbuye umunwa, agaragaza amenyo ariko andi y'umweru koko, intoki ebyiri rumwe ruturutse iburyo urundi ruturutse ibumoso ziratunga kuri aya menyo zerekana uburyo amenyo y'uyu muntu ari meza pe.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu na makumyabiri n'itanu, yambaye umupira w'umweru afite akadodo afatishije amaboko yombi yagashyize ku munwa, ku mutwe we hariho direde, arimo guseka ahanze amaso imbere ye.

umwana w'umusore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu afashe akagozi k'umweru yarashyize hagati y'amenyo abiri yo hasi arakurura, akurura cyane arashaka kugira ngo akure ibintu bimwe by'umwanda biri hagati y'amenyo akoresheje akagozi.

Umugabo uri mu kigero k'imyaka mirongo itatu na mirongo ine, afashe akadodo k'umweru agashyize mu menyo arimo arakaruma ashaka kugaca, imbere ye hari umuntu aramwitegereza basa n'abaganira.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri, abana batoya bari mu kigero cy'imyaka icumi bicaye ku ntebe, bamanitse amaboko bazamuye amakaramu, bazamuye amakereyo, n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu ishuri. Bose baraseka kandi barareba ahantu hamwe.

Icyumba kinini kirimo amatara menshi gifite irangi ry'umweru harimo intebe, hari n'ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, icyumba ni icyumba cyo kwa mugarura gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo.

Abana babiri b'abaganga bambaye imyenda y'umweru yabugenewe Y'abaganga umugabo n'umugore bampa udupfukamunwa bafite n'amaga mu ntoki, umwana mutoya w'imyaka iri hagati y'icyenda na cumi n'itatu barimo kureba abasuzuma amenyo ye ngo barebe ikibazo cyaba kirimo yabumbuye akanwa.

Umwana mutoya w'imyaka itatu hagati y'itatu n'ine, yicaye ku ntebe ntoya y'abana afite uburoso mu kanwa, asa naho arimo gusekera umuntu umuhagaze imbere kandi arasa naho arimo kumushimisha. Umwana w'umukobwa.

Ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu mirongo ine afite ubwanwa bwinshi, yambaye ubusa hejuru, ibitugu bye biragaragara afasha akantu gafite amenyo abiri kamwe yagashyira ku menyo kandi yakamanuje umunwa yitegerereza uko amenyo ye asa.

Ni icyumba cy'ishuri, icyumba kirimo urubaho, urubaho abanyeshuri bigira harimo abantu bagera kuri batanu n'umwana wa gatandatu w'umunyeshuri, umwarimu ashyize ukuboko Ku rutugu rwe aramwigisha amwereka akoresheje agakoresho kabugenewe, abadamu babiri bamuhagaze inyuma baritegereza uko umwarimu arimo kwigisha umwana.

Abagabo babiri bari mu kigero k'imyaka mirongo ine n'itanu na mirongo itanu, bambaye imyambaro y'umweru hejuru, barirukanka muri siporo umwe arunamye, undi arareba ku ruhande araseka, umwe muri bo afite icupa ry'amazi iruhande rwabo hari ibiti birebire.

Ni abamama bakuru bari mu kigero cy'imyaka mirongo itadatun' itanu na mirongo irindwi barakora siporo, barambuye amaboko mu kirere ay'iburyo ndetse ay'ibumoso arareba hasi, inyuma yabo hari ibiti, bose bafite imisatsi myinshi.

Abana babiri baseka rwose kandi baseka cyane. Umwe ni musaza w'imvi nyinshi uri hagati y'imyaka mirongo irindwi na mirongo inani ari kumwe n'umudamu nawe mukuru, uri hagati y'imyaka mirongo itanu na mirongo ine barakina akantu ku meza kameze nka dari. Aka k'akantu bakishimiye kandi urabona ko bizihiwe.

Abantu babiri bishimye rwose, umwe ni umukecuru mukuru wo mumyaka mirongo irindwi na mirongo inani, iruhande rwe yahagaze umwana w'umukobwa ubona ko ari muto, baraseka, arimo kumwereka ikintu, arimo kumuvugisha.

Ni abantu babiri bakuru barimo umusaza uri hagati y'imyaka mirongo itandatu na mirongo irindwi, afite imvi nyinshi n'ubwanwa by'umweru. Iruhande rwe hari umudamu w'umuzungu wambaye imyambaro y'abaganga, ashyize ikiganza cye mu mugongo iruhande neza ku rutugu rw'umusaza. Umusaza arunamye aritegereza imbere.

Ni abantu babiri, umusaza n'umukobwa. Umusaza yicaye ku ntebe, aregamye ahuje ibiganza. Naho umukobwa we, ahagaze iruhande rwe aramureba mu maso amusekera, yambaye imyambaro isa, hasi no hejuru.

Ni icyumba kinini giteraniyemo abantu benshi batandukanye bamwe baricaye abandi barahagaze ariko imbere yaba bantu hahagaze abasaza bakuru babiri bambaye ingofero bombi, umwe yambaye rinete ku maso undi ntazo yambaye, bose bambaye amashati y'umweru umwe muri bo wirabura yahuje ibiganza nk'ugiye kubikoma.

Itsinda ry'abantu benshi bakuru bari mu kigero cy'imyaka mirongo itanu na mirongo itandatu abamama bari mu murima w'icyayi, barasoroma icyayi bamwe baraseka abandi ntago baseka.

Ni itsinda ry'abantu b'abamama bakuze bari myaka mirongo irindwi. Bamwe bafite udutambaro ku mutwe abandi ntatwo bafite. Bamwe bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe, ni abantu bagera mu ikenda. Bamwe barareba imbere abandi barareba ku ruhande. Imyambarire yabo ni nk'iy'abanyayuganda.

Umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu mirongo irindwi umusatsi mwinshi urimo imvi yambaye ibiganza byombi mugaza afashe abatuma twabigenewe afasha umuntu muri siporo kurambura imitsi araseka.

Bari mucyumba ni babiri bicaye bashyize amaboko ku meza, ni umusaza n'umukecuru, bombi bari mu kigero k'imyaka itandatu n'itanu, bareba agapapuro umudamu niwe ugafashe bombi barasomaho.

Iri tsinda ry'abana ryicaye bari kumwe n'umuryango abantu babiri bakuru n'abana batoya guhera ku batoya no kugera ku bakuru cyane baranezererwa barishimye bose bareba imbere baritegereza ikintu imbere yabo.

Ni abantu babiri bicaye, umusaza n'umukecuru, bicaye bashyize amaboko ku meza. Imbere yabo hari ikirahuri cy'amazi n'uducupa tubiri tw'umuti. Umukecuru afite urupapuro mu ntoki, naho umusaza afite terefoni, bombi barimo kuyirebamo.

Ni abantu babiri bakuru, umugabo n'umugore, bageze mu myaka hagati ya mirongo irindwi na mirongi inani, bicaye berekeye ameza, ku meza hari ibyo kurya n'imbuto z'ubwoko butandukanye, imbere y'umusaza hari igikombe cy'ikirahuri, bararebana barimo guseka.

Ababyeyi batatu bari mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu n'itanu bafite imvi ku mutwe, babiri bambaye iby'umweru naho uri hagati yambaye umuhondo udafashe neza, imbere yabo bahashyize telefone barimo guseka bose barebamo no hirya yabo hari ibiti n'imodoka.

Ni umusaza uri mu kigero k'imyaka mirongo itaratu n'itanu na mirongo irindwi, ateruye umwana mutoya w'imyaka itatu, uyu mwana afashe igipope mu ntoki, igipope gifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara rya kaki, bahuje amazuru umusaza arimo kumusekera.

Ni sale nini, nini rwose, irimo intebe n'abantu bicaye, ariko hari umugabo mukuru ugeze mu zabukuru, wicaye ku ntebe y'abantu bafite ikibazo cy'ubumuga, umuganga w'umudamu arimo kumucunga amutwara, yambaye imyenda y'abaganga, bose barareba imbere, hari ikintu arimo kumwereka.

Umukecuru uri mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi n'itanu, arahagaze iruhande rw'agatuti afashe mikoro aravuga, inyuma ye hari ikibuga kinini kirimo pasiparumu, hirya hari amazu n'ibiti n'imodoka zihaparitse.

Ni abantu babiri bari kumwe, umwe n'umusaza uri mu kigero cy'imyaka mirongo inani undi ni umukobwa mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu, umusaza yicaye mu kagare umukobwa arimo kumucunga bose barimo guseka.

Umusaza afashe inkoni aregamye, ari mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu, iruhande rwe hari umuganga w'umukobwa w'imyaka makumyabiri n'itandatu yambaye umwambaro w'ubururu, aramusekera, umusaza nawe we yahindukiye araseka.

Umuntu mukuru uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu. Umumama afite igitambaro cy'umukara mu mutwe, afite lunette. Iruhande rwe hari umwana w'umukobwa w'imyaka, mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu. Yambaye umwambaro w'ubururu. Aramwitegereza mu maso baraseka.

Umugabo n'umugore barimo kwirukanka, umugabo ari mu myaka mirongo ine, hagati ya mirongo ine na mirongo itanu arirabura, umugore na we ari hagati y'imyaka mirongo ine n'itanu ni inzobe, barirukanka barahuje baraseka.

Ni umukambwe w'imyaka iri hagati ya mirongo icyenda na mirongo inani yambaye amarineti ku maso yicaye ku buriri, umwana muto w'umukobwa arasa n'ugerageza kumuhagurutsa cyangwa kumufasha, ubuzima bwe bigaragara ko bufite intege nkeya.

Umusaza ufite uruhu rwirabura, ufite ubwanwa bwinshi, uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu. Mu cyumba iruhande rw'ameza, imbere ye hari mashini igendanwa, ari kumwe n'umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri aramusukira umuti ku ntoki. Bari mu cyumba gifite umucyo mwinshi.

Itsinda ry'abantu batanu, umusaza, umusore, umukobwa w'inkumi n'umwana mutoya n'umukecuru uri hagati y'imyaka mirongo itanu mirongo itandatu, barishimye, baraseka kandi barareba ahantu hamwe.

Umugabo w’umusaza wo mu kigero cy’imyaka mirongo inani, afashe telefoni mu ntoki iruhande rwe hicaye umugore w’imyaka mirongo ine, bose n’abazungu. Umugore afite agashumi yambaye mu ijosi, umusaza arimo kumwereka muri telefone acishamo umugore agaseka akitegereza muri telefone.

Ni abantu babiri bicaye berekeye ameza umusaza uri mu kigero cy'imyaka mirongo inani n'umukecuruim w'imyaka mirongo irindwi umusaza afashe ibinini mu ntoki ku meza hari amacupa ahateretse y'imiti n'aho umukecuru arimo kumwereka ku gapapuro amwereka amubwira ati dore uko bikoreshwa.

Umugabo n'umugore bari kumwe, umugabo ari mu kigero cy'imyaka itandatu, arambuha ikiganza cy'iburyo, umugore ari mukigero cy'imyaka mirongo itatu afashe ukuboko kwe aragenda asuzuma uko imitsi ye ikora n'umubiri we! aramwigisha anamutoza gukora siporo.

Ku itariki ya karindwi inama mpuzamahanga yiga ku buzima bw'umugore no gusobanukirwa ibigendanye na kansa, ni mu kwa kane tariki ya karindwi kugeza k'umunani bibiri na makumyabiri na gatanu i Vankuveri muri Kanada, iruhande rw'inyubako ndende iruhande rw'amazi n'imodoka nyinshi ziparitse.

Umugabo n'umugore bahagaze bafashe icyapa mu ntoki, cyanditseho ngo twisuzumishe igituntu kivurwa kigakira, iyi ni gahunda ya arabisi, arabisi ni ukuvuga Rwanda bayomedikoenta, ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuvuzi mu buryo butandukanye

Amagambo maremare avuga ngo, “International Federation of Environmental Health”,nukuvuga ngo n’ihuriro mpuzamahanga ryita ku bidukije ,ariko n'ikindi kigira kiti, “World Environmental Health Day”,nukuvuga ngo n’umunsi mpuzamahanga wo kwita ku bidukikije wizihizwa makumyabiri n’esheshatu z’ukwa cyenda mu mwaka wa bibiri na makumyabiri nakane.

Ni itsinda ry'abantu batandatu, batatu ni abagabo abandi batatu ni abagore, abagabo bose bambaye amakoti, inyuma yabo hari ibara ry'ubururu bwijimye harimo ikirango cya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda.

Gahunda Leta yo kubungabunga ibishingwe hakarobanurwamo ibibora bigatunganywa bigashyirwa ku ruhande bikabyazwamo umusaruro. Abagore babiri n'umugabo bafashe amakarito maremare yanditseho ibibora n'ibitabora.

Ni umudamu wirabura utirabura cyane uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu na mirongo itatu n'itanu umutwe ufite umusatsi iboshye areba imbere amwenyura gatoya hari ijambo ryanditse inparct valoment public bishatse kuvuga ngo ingaruka nziza cyangwa se mbi ku bidukikije mu ruhame.

Mu itsinda ry'abantu bagira mu icumu, n'abagabo n'abagore n'abana ndetse n'urubyiruko. Bamwe bafashe amashusho mu ntoki, imbere yabo hateriretse ameza, ariho uducupa n'udukarito turi mu ibara ry'ubururu, abandi bambaye udupfukamunwa abandi bicaye ku ntebe za parasitiki.

Inyubako ngufi kandi nyinshi zifite ibara ry'umweru, imbere y'inyubako hari ubusitani bwiza busa neza, butoshye, iruhande rw'ubusitani hari igiti kirekire gitanga igicucu muri ubwo busitani.

Ni sale ndende kandi nziza irimo umucyo utari mwinshi, hejuru hari ibara ry'umweru harimo ibitanda hasi ni kwa muganga, ibitanda ni iby'abarwayi naho ku nkuta hari ibara ry'umweru n'iry'umukara.

Ni umuryango uri mu ibara ry'ubururu, winjira imbere mu gipangu, ahari inyubako zifite amabati y'umutuku, andi y'ubururu, mo imbere harimo igiti, igiti gitoshye. Muri uwo muryango utarinjira hari icyapa kihanditse ngo "Nyanza hosipito." Bishatse kuvuga ngo ni ibitaro bya Nyanza, mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda.

Isare nini irimo umucyo mwinshi ni kwa muganga, hari ameza, hari intebe, hari ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi indwara zitandukanye, hari imiti ndetse kandi hari za kamera.

Ni sale nini; sale yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye n'abantu batandukanye bamwe barimo kugenda abandi barahagaze; hari umuntu urimo gutambuka agenda yambaye imyenda y'ubururu ni umukozi wo kwa muganga.

Inyubako ndende ebyiri z'amaetage, iruhande rwazo hari imihanda myiza, hari imihanda inyuranyemo, hagati y'imihanda hari ubusitani, harimo ibyatsi bisa neza rwose cyane, izi nyubako ni ibitaro.

Igipangu cy'amatafari ahiye n'ibyuma, kizengurutse, ibitaro bya ruhengeri, mu imbere mu bitaro harimo jaride nziza, harimo indabyo harimo inyubako ngufi harimo n'ibiti iruhande hari umuhanda abagenzi banyuramo urujya n'uruza.

Ni mu cyumba kinini kitari kinini cyane, kirimo umucyo mwinshi, hicayemo umumama wambaye rinete n'agapfukamunwa n'umusatsi muremure ugera ku mugongo, yambaye imyambaro y'umweru y'abaganga, ari imbere ya mashini.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse n'ibirahuri biri mu nzugi no mu madirishya. Iitwa isange wani sitopu senta. Aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Ni icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye, imiti y'ubuvu, imashini zigendanwa, intebe zo kwicarirwa, ameza, umugabo arahagaze urimo, yambaye itaburiya y'umweru, yambaye agapfuka munwa n'uturindantoki, icupa ry'umutuku mu ntoki, arakanda mu mashini areba ibi ipimo.

Ni mu cyumba kwa muganga kirimo umucyo mwinshi, abantu babiri umugabo aryamye agaramye yambaye umwambaro w'umweru hejuru n'ingofero n'agapfukamunwa, naho umugore we yambaye ikanzu yo kwa muganga afashe ukuboko k'umugabo agushyizeho bande.

Ni icyumba gitoya kirimo ibikoresho bitandukanye, kirimo akabati, kirimo igitanda, kirimo mashini, mudasobwa, kirimo imashini ipimishwa n'abaganga bavura abarwayi, harimo imiti ikarabwa mu ntoki yica udukoko.

Ni icyumba kinini kitagaragara neza mo imbere harimo imiti itandukanye ku muryango handitse ijambo rivuga ngo porogeresi farumasi bivuze ngo ni farumasi ikomeza.

Ni inyubako ifite ibara ry'ubururu n'icyatsi kibisi, imbere yayo hahagaze abantu bane haparitse n'imodoka, inyuma yayo hari akandi kazu gatoya gasakaye ifasheho harimo abantu batanu.

Ubusitani bwiza bubereye ijisho, burimo ibiti bigufi, indabyo, imihanda ikozwe n'amapave n'amatafari ayikikije, mu mabara y'umweru n'umukara, amazu matoya y'amatafari ahiye, amapoto y'amashanyarazi n'ibindi byiza.

Icyumba kirimo ibitandatari kitari kinini cyane, kirimo abantu batatu, umwe muri bo ni umuganga yambaye itaburiya y'umweru, abandi ni abarwayi, muganga afashe igikoresho arasuzuma umurwayi bararebana amufasha ku rutugu.

Ni inzu ngufiya imbire handitseho inzu y'ababyeyi yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo kumuryango hari amavazi abiri matoya harimo indabyo, ni inzu imbere yayo hari jaride iruhande hari inzira yinjira muri iyo nzu harimo amabuye y'urusakabuye.

Ni farumasi ya Murekatete Dennise, yitwa Peniel na nimro za telefoni ye zigendanwa, aho akorana na Mediplan na RAMA y'iyo farumasi hahagaze abantu abandi baricaye.

Icyumba gisa neza gifite umuryango utari munini cyane winjiramo ni ibiro by'umuganga, hari ameza asukuye asa neza, hari ibikoresho bitandukanye ariko ibibanza bwa mbere ni imiti umuntu akakaraba mu ntoki imwe yitwa sanitayiza.

Itsinda ry'abantu benshi, benshi cyane, baricaye, bicaye ku murongo abandi barahagaze, bahagaze iruhande rwabo, bari muri sare ndende kandi irimo umucyo mwinshi, imbere yabo hahagaze umuntu wambaye agapfukamunwa w'umugabo, uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu.

Ni icyumba gitoya gifite ibara ry'umweru ku rukuta no hejuru kuri purafo, kirimo umucyo, kirimo intebe yo kwicaraho n'agatanda gatoya, gifite akabati gafite ibara ry'umuhondo n'iry'icyatsi kibisi.

Ni inzu y'ababyeyi cyangwa ababyeyi babyariramo, inzu ya materinete, ifite irangi ry'umweru inyuma, hejuru ifite amabati yo mu ibara ry'ubururu budafashe cyane ntabwo izengurutswe n'igipangu, ahubwo iruhande rwayo hari ibiti n'indabyo na jaride nziza.

Ni mu muryango aho winjirira mu nyubako ndende wakirwa n'icyapa kinini cyanditseho amagambo agira ati hopitali lakuruwa di side kwa Nyirinkwaya, hasa neza kandi n'ibitaro, bivura indwara zitandukanye izo mu mutwe, izo mu maraso ndetse n'izo mu mitsi.

Ni abasore n'inkumi bagera muri barindwi bambaye imyenda y'umweru hejuru bose bamwe hasi bambaye y'umukara abandi bambaye ubururu bose bateruye uduseke, uduseke batwayemo ibintu by'umweru bajya kwinjira mu nyubako ifite umuryango munini mu nyubako abanzirizwa na salle itwikiriye hejuru gusa inyubako ya KFH RWANDA.

Ni mu cyumba gifite ibara ry'umweru hasi no hejuru, kirimo umucyo, kirimo ibikoresho bitandukanye, hari intebe zo kwicaraho, hari imashini, izigendanwa n'izitagendanwa, hari ameza, ni ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga.

Ni itsinda ry'abantu benshi bateraniye munsi y'inyubako. Inyubako ndende yubakishije amatafari ahiye, hirya yayo hari imbuga y'amapave. Mu mbuga aho hari abamama bahagaze abandi baricaye. Hari ibiti, hari indabyo, hari imodoka ihaparitse.

Icyumba kinini gifite ibara ry'umweru, kirimo umucyo mwinshi. Uyu musore wambaye umwambaro w'ubururu hejuru, akoropa. N'umudamu uri hirya ye nawe ukoropa, n' ibitanda. Harimo intebe, harimo amarido.

Inyubako ndende ikamenye cyane mu iruhande rwazo hari igiti birebire by'ubwoko bw'inturusu, imbere yazo hari idarapo ry'u Rwanda rirerire, imbere yaryo hari umuhanda umuntu agenda anyuramo.

Itsinda ry'abantu bagera muri batanu bari mu cyumba, icyumba kirimo umwenda w'umweru uri kurukuta, bazengurutse ameza, abagore babiri barahagaze, bambaye imyenda y'umweru isa n'iyabaganga bambara mu kazi kabo, umugore umwe afashe ukuboko k'umuntu, arasuzuma ukuboko kwe, arafata umuriro, arareba uko amerewe.

Ibiti birebire, igipangu cy'amatafari ahiye, icyapa kiragira kiti "umujyi wa Kigali, Rehabilitation Transit Center" ngo ni ikigo gifasha abantu kongera kwiyubaka mu buryo butandukanye, haba mu mutwe cyangwa se n'inyuma.

Ni itsinda ry'abantu benshi; abagabo n'abagore abazungu n'abirabura, abicaye n'abahagaze, bari mu busitani bw'ibitaro bya butaro bikorera mu karere ka burera mu ntara y'amajyaruguru, bivura indwara zitandukanye, hari kubaga, ubutabazi bw'ibanze n'izindi zitandukanye.

Mu itsinda ry'abantu benshi, benshi bari hagati ya makumyabiri na makumyabiri na batanu, ni abagabo n'abagore barimo abazungu harimo n'abirabura, bamwe bambaye amakoti abandi bambaye amashati bafite n'amabaji imbere yabo, bahagaze imbere y'inyubako ndende yanditseho Rwamagana hospital, ni ukuvuga ngo; ibitaro bya Rwamagana.

Inzu y'ababyeyi; nukuvuga inzu ababyeyi babyariramo, kumuryango wayo hari abantu batandatu, abagabo, abagore bamwe barahagaze abandi baricaye, bicaye begereye ameza bicaye ku ntebe z'abafomu.

Ni inyubako eshatu, inyubako ngufiya zifite amabara y'umweru, imbere yazo hari jaride nziza itoshye, muri jaride hateyemo agati, imbere y'inzu imwe hari ikigega cy'amazi.

Ni icyumba kinini. Icyumba kinini cyane kirimo irangi ry'umweru gifite inkingi zifite amabara y'ubururu. Mo imbere harimo ibitanda by'abarwayi. Ni kwa muganga harimo umuntu urimo kunyuramo agenda yitegereza agenzura akora n'isuku.

Inyubako ndende y'itaje igereretse gatatu. Hejuru yayo hari ibigega by'amazi. Umuryango winjira urakinguye, ushinzwe gukingura akingurira imodoka imwe irimo gusohoka. Iruhande rw'umuryango hari uwicaye, uwicaye ku ntebe yegamye, mu imbere aho baparika hari imodoka zindi nyinshi.

Mu cyumba kinini cyubatse neza cyirimo umucyo mwinshi, harimo umukobwa wo mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu wambaye umupira w'ubururu n'igitambaro cy'umweru ku mutwe, ni kwa muganga yambaye uturindantoki hari amacupa akaragwa mu ntoki yica udukoko.

Sare nini, iteraniyemo abantu, bari mu myaka itandukanye, abenshi biganjemo ni abagabo n'abagore bambaye impuzankano bamwe bambaye umweru, abandi bambaye umuhondo. bicaye ku ntebe bose, batoye umurongo bareba imbere.

Ni icyumba kinini giteraniyemo abantu benshi: Abagabo n'abagore, bose baricaye, bicaye ku ntebe zitwa amafomu, imbere yabo hicaye abandi bantu bicaye baringaniye n'ameza babiri, imbere yabo hahagaze undi, urimo kubaganirira.

Inyubako ndende. Imbere yayo, aho wininjirira muri yo hejuru handitse irijambo rivuga ngo, Africa centre of excellence for infectious diseases of humans and animals. Ni ihuriro imihuriro nyafurika, rishinzwe kwita no kurebera, indwara zandura ku bantu no ku nyayamaswa.

Inyubako ndende ifite ibaraza ritoya ifite ibara ry'umweru n'ubururu hejuru, ni ibitaro bivura amaso. Ibitaro biherereye mu karere ka Rwamagana.

Ni inyubako igaragaza mu ruhande rwayo iriho ijambo ryanditse ngo ikigo nderabuzima cya Rwerere, ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'indabyo nyinshi, hirya y'indabyo hari jaride isa neza.

Ikigo cy'ishuri, Rwanda children chritian school, amadarapo imbere yacyo abiri n'imbuga ishashemo amapave nini cyane, amabara y'umweru n'ubururu hasi n'amabati y'umutuku.

Ni inzu, inzu iteraniyemo abantu benshi. Ifite urubaraza runini. Bamwe bari imbere, abandi bari ku muryango wayo. Hari umuhanda ujyayo ujya kuri iyo nzu. Hepfo y’umuhanda hari ibirabyo byakuze birebire, ibigufiya n’ ibyo birebire bisa neza rwose bitoshye rwose.

Inyubako ndende hakabamo n'ingufi, imbere yazo hari imodoka zaparitse nyinshi, amagardin, imihanda ihinjira ikoze neza n'icyapa gihari cyanditseho Republic of Rwanda, Ministry of Health, University Teaching, Hospital of Butare, CHUB, Mission cyangwa missions, Health care services Medical Education Research. Ibi ngibi ni ukuvuga ngo ni University yigisha iby'ubuvuzi ikorera i Butare mu Rwanda.

Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'itanu. Ni imibiri yombi. Yambaye umwambaro w'ubururu, ari mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye.

Ni icyumba mu cyumba kigaragara kizengurutswe n'ibirahuri mo imbere harimo intebe hejuru ku rukuta handitse ijambo rigira riti risacisenta bishatse kuvuga ngo ni ihuriro ry'ubushakashatsi.

Ni icyumba kinini gisa neza, kirimo umucyo kirimo ibara ry'umweru, hari amasanduku atandukanye, hari umuntu wambaye imyenda y'umweru kuva hasi kugera hejuru, yapfunduye imwe muri ayo masanduku ari muri icyo cyumba arimo kurebamo, ni ahabikwa imiti.

Isange wane sitopu senta Remera Rukoma, inyubako y'amatafari ahiye, ifite jaride iruhande y'indabyo abantu bahu n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ndetse no guhotera abana ritanga ubujyanama mu by'imitekerereze.

Ni icyumba, icyumba kitari kinini gifite irangi ry'umweru ku nkuta hari igitanda cy'abarwayi, hari imashini iteretse hejuru, hirya hari akagare bacungiramo abarwayijya kwa muganga.

Umusore mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itatu na makumyabiri n'itanu, yambaye umupira n'umweru w'amaboko mugufi, yashyize ekuteri mu matwi, yambaye isaha ku kuboko kw'iburyo, afite icupa ry'amazi ari kunywa.

Amazi, imbuto nka pome, inyanya n'ibintu byo kwipimisha nka metero n'ibyuma byo guterura. Ibyo ni bimwe mu bikoresho bifasha umuntu mu gukora siporo kandi akayikora neza, atagize umwuma, atagize n'ibindi bibazo.

N'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu makumyabiri n'umunani, n'imibiri yombi yambaye agasengengeri k'ubuururu butijimye cyane ashyize flari ku rutugu y'ibara ry'umukara afashe icupa ry'amazi arimo kunywa.

Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka cumi n'umunani na cumi n'intanu. Yambaye isengeri y'umweru n'ipantaro y'umukara; ukuguru kumwe kw'ibumoso arakurambuye n'ikiganza cy'ibumoso agishyize ku kuguru kurambuye. Naho ukuguru kw'iburyo araguhinnye, ikiganza cy'iburyo agishyira ku ivi, ari muri siporo.

Ni bande enye, imwe y'umutuku, indi y'umukara, indi y'ubururu, indi y'icyatsi kibisi, ukuboko kurerekure guhambiriyeho bande, ikiganza kirafunze.

Abasore bane bari mu kigero cy'imyaka mirongo itatu, bambaye imipira y'amaboko maremare n'amakabutura barirukanka, bari mu muhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru myinshi.

Ni itsinda ry’abana benshi. Abana bari hagati y’imyaka umunani ndetse na cumi n’itanu. Bamwe barahagaze, barogeza umupira. Abandi bari imbere, barakina umupira. Bamwe bazamuye amaboko baseka bishimye.

Yicaye ku mukeka, yambaye agasengeri k'umutuku, arambije amaguru yombi, arunamye, ibiganza byombi abishize ku maguru ye araseka, ni umudamu uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'irindwi na mirongo itatu.

Abantu babiri bari hanze umwe ni muntu mutoya, yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso yambaye umukara hejuru afite n'umusatsi uboshye yambaye agapfukamunwa, undi umusore abande kuboko kw'iburyo mama amufashe ukuboko arimo kumufasha aramuvura.

Abantu babiri bari kumwe mwaricaye uwicaye yagize ikibazo kandi ni umugabo yagize ikibazo ku maboko ku bagumirije bande kwarababaye cyane ku wa kabiri naporo yo kugu guhambiriza bande ariko nakubabaye cyane umugore niwe uri gufasha umugabo amuhammbira bande amushyiraho n'imiti itandukanye.

Ibikoresho bitandukanye harimo intebe harimo insinga z'amashanyarazi, hari fulashi ibika inyandiko, hari mudasobwa nini akaba n'intoya, hakaba n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Abantu batatu bari kumwe bose ni abagabo, umwe muri bo yagize ikibazo apfukamye hasi, abandi babiri bamupfukamye iruhande baragerageza kumufasha bashaka kumuhagurutsa.

Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu afite agafurari mu ijosi afashe icupa ry'amazi arimo kunywa yiyogoshesheje natirere afite uruhu rw'imibiri yombi.

Imbuto zitandukanye n'ibikoresho bitandukanye bya siporo, birimo pome, birimo tungurusumu, birimo voka, birimo inyanya, birimo urusenda n'inkweto za siporo na bande ndetse n'utuntu duhuha dusubiza tugaru umuyaga igihe umuntu amaze kuanirwa cyane.

Uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu, yambaye isengeri y'umukara, afite ubwanwa bukeya , afite icupa ry'amazi arimo kunywa, aricaye yambaye agakomo ku kaboko k'iburyo.

Ari mu cyumba kigizwe n'ibirahuri byinshi ku mpande, ni umusore w'imyaka hagati ya mirongo itatu na mirongo itatu n'itanu, yambaye nkweto za siporo, yambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umukara, ashyize ukuguru kumwe hasi ukundi agushyira hejuru ku meza ntoya, arasa n'uwiteguye guhaguruka.

Rwanda redi korose, cyangwa kuruwaruje Rwande, fasiti eyidi tereyiningi fasiriteta, ikigo mpuzamahanga gitabara imbabare gikorera mu Rwanda, gikora ibikorwa bitandukanye by'ubutabazi kurengera inkomere, gufasha abatishoboye, cyane cyane bafite intege nkeya nk'abagore n'abana.

Bande y'umutuku nini cyane rwose, bande ni umukoba muremure uba uzinze wifashishwa mu guhambira amaguru cyangwa amaboko igihe umuntu ari muri siporo, ariko kandi yifashishwa no guhambira igihe umuntu yagize imvune kugira ngo ahagize ikibazo hongere hegerane.

Ari mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu ni umusore, yambaye agasengeri k'icyatsi kibisi azamuye amaboko yombi ayashyize ku mutwe, yambaye ikabutura y'umweru aricaye.

Ni abantu babiri umugabo n'umugore bombi bafite amacupa y'amazi mu ntoki, bariruka, bambaye imyambaro ya siporo, umugore yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso iruhande rwabo hari ibiti ariko hakurya yabo hari imisozi hari n'inyubako z'amazu zitandukanye.

Abantu babiri bari kumwe, umwe aricaye arambuye ukuguru kwe yagushyize mu biganza byundi arimo kumuhambira bande ku kuguru yavunitse, munsi ku kuguru kwagize ikibazo hari akuma gatezeho, ukundi kuguru kw'ibumoso kuracyambaye inkweto uvuye muri siporo

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugirango siporo umuntu akora igende neza, hari ibyuma biterurwa hari amagi, hari imbuto z'ubwoko butandukanye zirimo imibembe z'inkeri zirimo avoka n'imineke, zirimo imicunga ndetse harimo n'urusenda.

Imbuto zitandukanye nka karoti, nk'amacunga, nka pome, nk'amashu, amatunda ndetse n'incyeri bifasha muri siporo, umuntu uri mu kigero cy' imyaka mirongo ine yambaye isengeri y'umweru'inkweto za siporo, iyo ukoze siporo ugira ingingo nzima kandi amaraso atembera neza.

Ari mu kigero k'imyaka mirongo itatu n'itanu aricaye hasi, ni umudamu ahinye amaguru ku birenge yambaye amasogisi y'umweru amaboko ye yombi arayarambuye, afatishije ku birenge yambaye agasengeri gatoya k'umukara n'ibara ry'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu, arambuye ukuboko kw'iburyo yambaye umupira w'umweru, naho ukuboko kw'ibumoso agufatishije kuki buryo afatishijeho agatambaro gafite ibara ry'ubururu.

Abantu bari mu cyumba; abicaye batandatu n'aho wari uhagaze imbere wambaye itaburiya y'umweru; imbere ye hari icyuma barabigisha; abicaye bafite amakaye n'amakaramu barimo kwandika arimo kubigisha uko siporo ikorwa; arabigisha n'ibisabwa kugira ngo siporo igende neza.

Ni imashini ntoya ifite amaboko y'ibara ry'umukara, yitwa Core Max, igura ibihumbi ijana na makumyabiri, igufasha cyane cyane ku bagabo gukuraho inda, gukora siporo, ukayikoresha nk'uko byagenwe buri munsi, buri munsi.

Ni abagabo babiri bari kumwe, umwe ni umuzungu wambaye ingofero, undi ni umwirabura uboshye imisatsi, uwirabura aryamye ku gatanda yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara.

Ni inkweto peya imwe cyangwa umuguru umwe, zifite ibara ry'umukara zitwa Bato, zifite hagati ya santimetero mirongo itatu na mirongo itanu, ziri mu bwoko bw'inkweto za gisirikare.

Ni umugabo uryamye hasi, umugabo w'inzobe aryamye agaramye ukuguru kw'iburyo yakurambuye yashyizemo umugozi uhambiriye ku rukuta arakurura akongera agasubizayo, agaku akanya agasubizayoboko kw'iburyo yakurambitse hasi yambaye isaha ari muri siporo, ukuguru kw'iburyo kw'ibumoso naKo kuahrinnye.

Ibikoresho bitandukanye bya siporo, harimo umupira w'amaguru, hakaba umupira basikete, hakaba ingofero zishyirwa ku mutwe ku bantu bakina za rugubi, hakaba n'ibindi bikoresho bishyirwa mu nkokora igihe cyose umuntu yikubise hasi kugira ngo ataza gukomereka akababara cyane.

Muganga yafashe bande ndende y'umweru ayihambiriza mu ivi ry'umuntu wagize ikibazo, umuntu aricaye hanyuma mu ivi hagati mu ivi yashyize akandi kantu umutuku ko gufata ya bande kugira ngo ishobore kuza kugumaho ariko noneho ikomeze kunyunyuza n'ububabare bwagiye mu ivi.

Ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu. Utari muremure cyane ahagaze ahuje ibiganza bye, abirambuye mu kirere. Ari hagati mu ishyamba y'ibiti n'ibihuru bitoshye cyane.

Ni igiti kitwa umuko igiti cyiza cyane gitoha kigira amabuye matoya ariko aho atoshye kenshi no mu gihe cy'izuba ahora atoshye iki n'igiti cyifashishwa kigira impumuro nziza cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zaba izubuhumekero ndetse yewe zaba mu nda n'igiti cyifashishwa mu buryo bwa gakondo ariko kigirira umumaro benshi bakimenya.

N'icupa ritoya rizengurutse, rifite umufuniko w'umweru munsi hari ijambo rigira riti " Forever Bee Propolis" iricupa ririmo umuti ,umuti mwiza cyane ukoze muburyo bwa gakondo, ukoze ,ukomoka ku nzuki ariko ni umuti ufasha kuvura indwara zitandukanye kandi utunganyije neza.

Amacupa abiri, icupa rimwe ni umuhondo n'umufuniko w'umukara, irindi na ryo ni umweru n'umufuniko w'umuhondo; rimwe ririmo umuti ukomoka ku miwembe, irindi na ryo ririmo umuti ukomoka kuri aloe velo plant; ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zo mu nda, iz'uruhu ndetse yewe, zivura n'umutwe.

Icupa rigufiya, rifite ibara ry'ubururu budafashe neza ,rifite umukondo ,n'umufuniko w'umutuku rikorwa na forevarivingi ni eroyi beri rekita rizana vitaminini rizana imyunyungugu na amino asidizi umuti urimo ni ingirakamaro ku buzima.

Amacupa matoya n'amanini y'umweru, y'icyatsi kibisi n'umuhodo yose arimo imiti ya gakondo. Ariko itunganyijwe neza ikomoka ku bimera ikomoka ku nzuki yose yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zaba iz'imitsi, ari ukongera vitamini ndetse n'indwara zo mu nda.

Ipapayi, imbuto nziza zifite ibara ry'umutuku imbere, risatuye naho inyuma hakaba umuhando, igisate kimwe kirimo imbuto, rirahishije, naho iruhande hari ipapayi ryuzuye ridasatuye,

Ni itsinda ry'abantu bagera muri cumi na babiri. Ni abagabo n'abagore. Bamwe bambaye imyenda isa ari yo mpuzankano, abandi bambaye amakoti na karuvati. Abandi bambaye amashati n'imipira. Bamwe baricaye abandi barahagaze, bari mu ishyamba. Bahagaze hagati y'ibimera byitwa igikakarubamba.

Ni udupaki dutandukanye mu macupa mudushashi kamwe kitwa gel clincer akandi kitwa tuna utu twose imiti itandukanye imwe ifasha mu kweza amenyo iyindi ifasha mu kwiborosa ndetse no kuvura indwara zo mu kanwa.

Icupa rigufiya ry'umutuku rifite amagambo yanditseho y'umukara rifungishije umufuniko w'umutuku, ririmo umuti witwa umuravumba uvura indwara zitandukanye harimo nko mu nda harimo nko kwiruka ndetse uvura n'umutwe.

Ni ubwoko butandukanye bw'ibimera, hari n'icyatsi gikunze gushyirwa mu binyobwa nk'icyayi, harimo imbuto iruhande rw'imbuto hari icyuma hari ibibabi by'amateke hari n'ibindi bitandukanye, ibi byose bikoreshwa nk'imiti ishobora gufasha umuntu ubuhumekero ndetse n'igogora.

Ni amacupa atatu rimwe n'umuhondo irindi nimweru irindi ni ubururu budafashe, rimwe rifite umufuniko w'umutuku irindi icyatsi kibisi irindi ubururu .Aya macupa yose akorwa n'uruganda Forever Living ,afite akamaro ku buzima bw'umuntu kuko agira vitamin ,ndavuga umuti uri muri aya macupa akagira n'imyunyugugu zifasha umubiri w'umuntu.

Amacupa ane, harimo imiti itandukanye, irimo iya gakondo, ikomoka ku mbuto, indi ikomoka ku buki bw'inzuki. Iyi ngiyi yongera vitamini mu mubiri, ivura indwara zitandukanye, zaba iz'ubuhumekero, zaba izo munda ndetse n'umutwe.

Ni mu iduka rirerire rinini igizwe n’ amatajari maremare arimo amacupa, irimo amakarito. Afunzemo imiti igiye itandukanye yo mu buryo bwa gakondo. Ivura indwara zitandukanye yo mu moko atandukanye.

Agacupa gafite ibara ry'umweru, kitwa alowe jyojyoba karimo umuti ukozwe mu kimera kitwa Igikakarubamba. Uwo muti ukaba uvura indwara zitandukanye, ukaba uvura indwara zo ku ruhu, ukaba uvura indwara zo mu kanwa, wifashishwa no mu zindi ndwara zitandukanye.

Icupa rinini, ritari rinini cyane ryanditseho ijambo Forever Aloe Vera Gel ni ubwoko bw'umuti uri muri iryo cupa niko witwa. Ni umuti wifashishwa kwita ku ruhu n’umuti ukozwe mu buryo bwa gakondo ariko utunganyije neza ufasha uruhu kubobera no kurinda indwara zose ziza ku ruhu ufite umufuniko w'umutuku.

Ni icyatsi kibisi. Kibisi rwose gitoshye, gitoshye cyane. Kitwa urumogi. Urumogi ni icyatsi gikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye. Harimo iz'inkokorarora, harimo iz'ubuhumekero. Gikoreshwa kandi nk'umuti ushobora gushyirwa mu kinyobwa, igihe cyose umuntu arwaye indwara zo mu nda kikaba cyamufasha.

Agacupa gatoya, karimo imiti mbere y'umukara igaragara, kitwa ovoravuma tetaradeniya, aka kaba gakomoka ku kimera cyitwa tetaradeniya, kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo umuriro, marariya indwara z'umutwe ndetse n'izo mu nda, bikaba ari umuti wa gakondo muri Afurika cyane cyane.